Aba ngaba ni abayobozi batandukanye, barimo barigishirizanya kuri mudasobwa, bashobora kuba bari kureba kuri murandasi, baganira n'abanyamahanga bungurana ibitekerezo by'ukuntu bakiteza imbere.

Aba ni abaturage batandukanye, bari mu bintu bitandukanye byo kugirwa inama, kugisha inama cyangwa se kujya inama kugira ngo babashe gutera imbere ndetse no kuba bateza imbere igihugu cyabo.

Abakozi b'ibigo bitandukanye bya leta, ahangaha baba ari n'abanyamakuru bashinzwe gufata amashusho y'ibyo birimo birakorwa kugira batange n'amakuru.

Ibikorwaremezo ni kimwe mu bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda hakaba harimo amazu, amapoto y'amashanyarazi, imihanda minini kandi myiza, akaba ari n'imihanda isukuye, akaba ari n'umujyi urangwamo isuku, akaba ari umujyi w'igihugu cyacu akaba ari umujyi wa Kigali.

Icyapa kigizwe n'amabara atandukanye: umweru, ubururu, umutuku ndeste n'andi magambo yanditsemo, kikaba gitewe mu busitani bukikijwe n'ibiti birebire ndetse n'amabara y'umweru n'umukara.

Uru ni rubyiruko ruba ruri mu rugerero ,barwigisha amahame y'intore uburyo rwakomeza gukomera ndetse rugakomeza gutera imbere mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse n'igihugu kikarushaho gutera imbere gifite abana bazi gukora.

Ahangaha ni Nyagatare, uburyo bw'ubucuruzi cyangwa se bwo gukoresha ibintu bigiye bitandukanye, umuyobozi akaba ahagaze imbere y'abandi abasobanurira uko bigenda bikorwa mu buryo bwinshi butandukanye.

Aha ngaha abahagarariye ibigo bitandukanye baba bafite ibitabo, bafite amazi yo gusoma mu gihe akanyota kameze nabi, bari kwiga ku mishinga itandukanye yateza igihugu cyabo imbere.

Abangaba bashobora kuba ari abakozi b'ibigo runaka bitandukanye bari mu nteko cyangwa se ari abanyeshuri biga amashuri ya kaminuza bityo rero bari kuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye.

Abakuru b'ibigo bitandukanye, abashoramari b'ibigo bitandukanye cyangwa se abarezi b'ibigo bitandukanye, bahuye bari kuganira, bajya inama ku bijyanye n'uburezi cyangwa se ishoramari cyangwa se ibindi bintu byinshi bitandukanye, ariko ibyinshi biba ari ibyateza igihugu imbere.

Uru nguru ni urubyiruko ruba ruri kuri gahunda imwe yo gufasha kuba rwatera imbere, cyangwa se rugateza Igihugu imbere mu bintu bigiye bitandukanye, rukongera ubumenyi rurimo ruraganirizwa.

Urubyiruko ruri mu birori rwishimira ibintu bitandukanye rwizihiwe, abantu baba bakeneye no kwishima bakagenda bakaruhura mu mutwe kugira ngo bakomeze kubaho ubuzima bumeze neza.

Abayobozi b'inzego zitandukanye, abanyamishinga itandukanye baba bahuye bari kwiga ku mishinga ukuntu yakomeza gutera imbere, cyangwa se ukuntu bateza na bo ubwabo igihugu imbere na bo biteje imbere.

Abayobozi b'ibigo bitandukanye bari mu nteko baganira ibintu byinshi bitandukanye byabateza imbere n'ibyateza igihugu imbere kugira ngo abanyarwanda babashe kubona ibintu byiza kandi bibakwiriye.

Aba ngaba ni abayobozi bo mu nzego zitandukanye, aha ngaha bari mu nteko bari kumwe n'abanyamakuru bashinzwe gufata amashusho, bari kwiga ku bijyanye na Kigali yacu, Kigali ikeye. Aha ngaha biga uburyo Kigali yahora ikeye, ifite isuku kandi ikomeza kutugirira umumaro, ikomeza no kuba yateza igihugu imbere.

Uru ni urubyiruko ruri kwiga ku bijyanye n'ubuzima, n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, uko bakomeza kwirinda, uko bakomeza gutera imbere mu bikorwa bigiye bitandukanye byabafasha ejo hazaza.

Abayobozi b'ibigo runaka bitandukanye barimo baraganira ku bintu byinshi cyangwa se ushobora gusanga ari abakozi b'ikigo runaka, bari kuganirizwa kubijyanye n'ukuntu akazi kakorwa.

Aha ngaha abaturage baba barimo baraganirizwa n'umuyobozi wabo, ubayoboye cyangwa se ubahagarariye, bakagenda bagira ibibazo bamubaza bitewe n'ibyo bakeneye, ubundi akabafasha gusubiza ibyo bibazo cyangwa se na we akabibagereza ahandi, mu zindi nzego zimusumba.

Abaturage baba bateranye, bari kwiga ku bintu bigiye bitandukanye, ukuntu bakomeza gusigasira ubumwe, ukuntu bakorera hamwe, ibintu byabateza imbere ndetse bigateza n'igihugu imbere.

Abayobozi baba bishyize hamwe bari kurwanya ingaruka z'ibyorezo zigiye zitandukanye kugira ngo dukomeze kubaho dufite ubuzima buzira umuze ndetse dukomeza kuba ahantu heza harindwa n'ibyorezo.

Abangaba ni abayobozi bo mu nzego zigiye zitandukanye, abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bari kuganira ku bintu byatuma barushaho gutera imbere, ndetse n'igihugu kigakomeza kugaragara ku ruhando mpuzamahanga ko cyateye imbere.

Abantu bari kukazu mu inzu igurisha amayinite, abayobozi noneho bagiye nko kubikuza cyangwa kubitsa cyangwa kugura ikarita yo guha....

Aba ngaba ni abayobozi bo mu mashami menshi agiye atandukanye, bicaye bari kuganira ku bintu bitandukanye, byagirira igihugu umumaro ndetse na bo bikabagirira umumaro mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakarushaho kugira ibitekerezo byagutse.

Abaturage bicaye bakoze inteko barimo barakoma mu mashyi, bamwe bishimira ibyo bagezweho abandi bishimira ibintu byinshi bitandukanye, abo ni bamwe mu bakozi bashinzwe iby'itumanaho nabo barimo.

Urubyiruko ruri mu nama baganira ku bintu bitandukanye, ku bintu by'amabanki kuba wafungura konti muri banki, ukuntu wakwiteza imbere ukoresheje banki, waba wafashe inguzanyo cyangwa se wabikijemo cyangwa no kubiguza.

Uyu nguyu ni umuyobozi, uba ahagaze imbere y'abandi, abaha ijambo, abaganiriza ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, ubundi nabo bagatanga ibitekerezo by'uko babyumva, bakagira ngo bakomeze kurushaho guteza igihugu imbere no kwiteza imbere.

Aba ni abayobozi cyangwa se abaturage barimo baraganirizwa ku bintu byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo barebe ko bakomeza gusigasira ibyo bagezeho, ubundi bagakomeza gukora ibyatuma igihugu gikomeza gutera imbere.

Aha ngaha abaturage baba bicayeye, barimo baraganirizwa n'abayobozi mu ngingo ziba zigiye zitandukanye, zatuma bakomeza kwagura imitekerereze ndetse no kuba bareba ibyabateza imbere, bagakomeza kurushaho gutera imbere.

Abayobozi bari mu nama b'inzego zitandukanye, harimwo abakuru ba polisi y'igihugu, abayobozi iyo bari mu nama baba baganira ku bintu byateza igihugu imbere, ndetse n'abaturage bakaba bagira ubuzima bwiza.

Urubyiruko ruri kwiga, ruri kwigishanya ku bintu byinshi bitandukanye, bafite amazi, bakaba basomaho bamanura icyaka baba bafite biga ku bintu byateza Igihugu imbere nabo byabateza imbere.

Ubukerarugendo uyu munsi. Aha ngaha abantu baricaye benshi batandukanye, batumiye umuyobozi wabo ubahagarariye, ubahagaze imbere, urimo aravuga ijambo, aha ngaha bari bari kwishimira kuba harabayeho kwaguka k'ubukerarugendo mu gihugu cy'u Rwanda.

Aha ni Kigali yacu Kigali ikeye baba batugira inama z'ukuntu twakomeza guhanga udushya, kugira ngo Kigali yacu ikomeze kuba ari iyacu kandi ikomeze kuba inakeye bikomeze kugaragaza neza igihugu.

Aba ngaha ni bakozi b'ibigo bitandukanye cyangwa se abahagarariye ibigo bitandukanye, baba bari mu nteko baganira ku bintu byinshi byo guteza imbere igihugu.

Abayobozi bo mu nzego zitandukanye baba mu nteko bari kuganira ku bintu byateza igihugu imbere ibintu byabateza imbere ubwabo kugira ngo ibintu birusheho gukomeza kugenda neza urubyiruko ruterare imbere abantu baterare imbere.

Abayobozi batandukanye cyangwa se abakuru b'ibigo runaka cyangwa se abakuru b'imishinga, baba bari kuganira batezanya imbere bahana ibitekerezo byateza imbere imiryango yabo, igihugu cyabo.

Iki ngiki ni ikigo gishinzwe kurwanya icyorezo cya sida, aha ngaha barakubwira ati haguruka urwanye sida bakakubwira ati sida iracyahari duhaguruke tuyirwanye, urabona ko hari na polisi y'igihugu cy'u Rwanda.

Aba ni abayobozi bo mu ngeri zigiye zitandukanye baba bari kwiga ku bintu byinshi bitandukanye, bafite indangururamajwi imbere yabo kugira ngo haze kubasha kubaho kumvikana hagati y'umuntu n'igitekerezo atanze.

Aba ni abayobozi baba bateranye bari mu nteko y'inama yo kwiga ku mishinga myinshi igiye itandukanye, Kigali yacu, Kigali ikeye igakomeza kurushaho kwaguka kandi iteye imbere inakeye.

Iki ngiki ni kigo cy'irembo, aha ngaha kiba cyatuzaniye ubundi buryo bushya bukubwira ati ubushakashatsi n'ibarurishamibare, amazina y'ubwo buryo hakaba harimo raporo yo gutangiza ubushakashatsi cyangwa se kwemeza kongera igihe viza y'ubushakashatsi. Aha ngaha ukeneye ubundi busobanuro wabahamagana ku icyenda zeru icyenda icyenda.

Iyi ngiyi ni ishusho nziza y'umujyi wa kigali kigali ikeye ,hari aho abantu bicara barimo bararuhuka cyagwa se bari gukoresha za mudasobwa ahangaha nta binyabiziga biba byemerewe kuhagenda ,naho abantu banyura bagenda baganira ku bintu bitandukanye.

Uyu nguyu ni umunara udufasha mu buryo bujyanye n'itumanaho. Urimo urakora itumanaho ryimbitse kugira ngo rigende ridacikagurika yaba kubari gukoresha murandasi, cyangwa se bari kuvugana bahamagaranye, umwe ari ahantu hamwe hatandukanye n'aho undi aherereye.

Iki ngiki ikigo gishinzwe imisoro barakubwira andikisha uyu munsi wishyure mbere y'igihe ntarengwa baravuga ko ugomba kwishyura mbere y'itariki mirongo itatu rimwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nari rimwe, ubwo iyo urengeje igihe uhabwa ibihano.

Aha ngaha minisiteri y'igihugu iba yarashyizeho umunsi mpuzamahanga w'umukozi, abakozi na bo bakagira umunsi bakagenda bakaruhuka bakicara bagasangira n'imiryango yabo bakishimana n'inshuti zabo.

Uru nguru ni urubuga rw'irembo rudufasha gushakiraho ibintu byinshi no gukoreraho ibikorwa byinshi bitandukanye nko kuba washaka icyangombwa cyawe cy'ubutaka, kuba wakwandikisha umwana utabyaye cyangwa se kubera umubyeyi umwana utabyaye, aha ngaha urabyandikisha bigakunda kandi wabyikorera.

Iki ngiki ni kigo gishinzwe imisoro n'amahoro, aha ngaha barakubwira ati "dore uko wamenyekanisha avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu ukoresheje telefone." Bikorwa n'abasorera ku binyabiziga n'abafite ubucuruzi buto n'ubuciriritse, ni ugukanda iriya mibare ugakurikiza amabwiriza.

Aha ngaha ni minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo, kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umurimo, ubumenyi n'umurimo unoze ni inkingi y'iterambere, baba dufite abatumirwa n'amazina yabo, baba baje muri ibyo biganiro.

Urubuga rw'irembo barakubwira, intambwe ya gatatu, hitamo kwiyandikisha gukora ikizami cy'uruhushya rw'agateganyo gikorerwa ku mpapuro, cyangwa ukiyandikisha gukora ikizami cy'uruhushya rw'agateganyo gikorerwa kuri mudasobwa. Aha ngaha wasura urubuga ukareba ibisabwa, ubundi ukabyikorera.

Uyu nguyu ni umuryango ukoreramo gahunda zo gufasha kuba wakinjira mu irembo. Irembo ridufasha ibintu byinshi bitandukanye, kureba imisoro, kwishyura imisoro, kwandikisha ibyangombwa byinshi bigiye bitandukanye.

Uyu nguyu ni umunara udufasha mu bintu bijyanye n'itumanaho, mu gihe abantu baba bashobora kuvugana umwe ari mu ntara imwe undi ari mu yindi, umwe ari mu gihugu kimwe undi ari mu kindi, iminara idufashamo muri ubwo buryo bw'itumanho.

Ahangaha iki ni ikigo cy'irembo ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha imibare ikigiki kidufasha gukora ibintu byinshi kuba wakandikisha ubutaka, kuba wakandikisha abana. kuba wafata ibyangombwa by'ubutaka irembo barabigufasha wabahamagara kuri icyenda zeru icyenda icyenda.

Aba ngaba ni abanyeshuri, bari kureba muri za murandasi, bakoresha za mudasobwa ndetse na telefoni ngendanwa, baba bareba amakuru hirya no hino, cyangwa se bakora ubushakashatsi ku byo biga, n'amasomo agiye atandukanye, kugira barusheho gukomeza kwagura ibitekerezo no gutera imbere.

Aha ngaha ni umwe mu bakozi bakorera urubuga rw'irembo ashobora kugufasha mu bintu bitandukanye, aha ngaha tukabonamo umwe mu bakozi na none bakorera banki ushobora kuba wajyayo akagufasha ibyo ushaka.

Uyu nguyu ni umunara muremure mugari, umunara udufasha mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa se itumanaho, mu gihe uri gukoresha za murandasi uwo munara uba uhabaye kugira ngo ugire ibyo ufasha kugira bigende bidacikagurika.

Ikingiki ni ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro ahangaha barakubwira ngo kwigaragaza ku bushake, amande n'inyungu z'ubukererwe byakuriweho abasora bakoze amamenyekanisha arenga magana inani na mirongo itanu ku musoro, muri gahunda yo kwigaragaza ku bushake, hangaha ubwo abantu bigaragaza ku bushake bakuriweho amande.

Habura umunsi umwe kugira bagende kugira gusura u Rwanda ku itariki cumi n'eshatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane kujya gusura Igihugu cy'u Rwanda.

Ikingiki ni ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro ahangaha bakwereka uburyo wabasha kwishyura, ahangaha bakubwira gusura uru rubuga rwabo ukarusura wamara kurusura ugakanda hariya handitse kwishyura ugashyiramo indi mibare y'ibanga ikwemerera kwinjira kugira ngo ubashe gukora gahunda.

Aha ngaha abaturage baba barimo barasobanurirwa ibintu byinshi bitandukanye, cyane cyane ko abenshi baba batazi gukoresha mudasobwa, aha ngaha barimo barasobanurirwa bitewe n'ibyo bakeneye kumenya.

Iyi ngiyi ni iminara aba ari miremire kandi migari yubakiye neza idufasha mu itumanaho, kugira ngo itumanaho rikomeze kugenda neza, abakoresha murandasi, abahamagarana, bigende bidacikagurika.

UIrubyiruko ahangaha ruba ruri kuri murandasi, biga ku bintu byinshi bitandukanye bakora imishinga izabateza imbere, yazateza igihugu imbere kugira ngo nabo cyangwa se imiryango yabo bazagire icyo batezanyaho imbere.

Ubukerarugendo ahazwi nko mu Rwanda rw'imisozi igihumbi, izi ngizi ni inyamaswa zidufitiye umumaro, ushobora kuba wabasha nawe kujya kuzisura ugakomeza ugateza igihugu imbere, nawe ukiteza imbere mu bumenyi bwo kumenya ibintu bitandukanye.

Ikingiki ni ikigo cyitwa Irembo gifasha mu bintu byinshi bitandukanye kuba cyaguha ibyemezo by'ubutaka bakagufasha kubona ibyangombwa byawe by'inzu, kuba wakandikisha abana, aha ngaha turimo turabona urupapuro rw'icyemezo cyo gutura aha ngaha yari yagiye gucyaka ku Irembo

Iki ngiki ni ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, aha ngaha barakubwira ati dore uko wamenyekanisha igihembwe cya kane cy'ipatanti ukoresheje mudasobwa ujya ku rubuga ukabandikira ugakanda ahanditse menyekanisha imisoro yeguriwe uturere ugakurikiza n'amabwiriza y'ibindi byose.

Urunguru ni urubuga rw'irembo rugufasha mu bintu byinshi bitandukanye kwandikisha ibyangombwa by'ubutaka, kwiyandikishaho umwana utabyaye, ibyangombwa by'uko utafunzwe, ibintu byinshi bitandukanye ahangaha wabisangaho.

Haraba umunsi umwe ubundi itariki ntarengwa yo kwishyura igihembwe cya kane, tariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi, umwaka wa bibiri na makumyabiri na kane, wakwishyura mbere.

Rarakumbwira ngo harabura iminsi ibiri, ese uriteguye? Aha barimo barakingira umuntu cyangwa se barimo baramutera urukingo, barimo baramuvura, baramurindira umubiri kurwara.

Uyu nguyu ni umunara, aba ngaba ni bawe mu bakozi bashinzwe iminara, iminara idufafsha itumanaho kugira ngo abantu babashe gukoresha itumanaho rigenda neza ridacikagurika. Bari gukoresha imbuga nkoranyambaga; bari gukoresha za murandasi.

Uyu nguyu ni umunara muremure kandi mugari, uburyo ibikoresho byinshi bitandukanye bidufasha mu itumanaho kugira ngo itumanaho ribashe kugera kuri buri wese, buri wese abashe kuvugana n'undi aho yaba aherereye aho ariho hose.

Uyu nguyu ni umuryango uri ahantu runaka uriho ibyapa byinshi bitandukanye, by'ibintu bakora. Kuba waba ushaka kubitsa amafaranga, uwo waza ugafunguza konti muri aya mabanki arihano atandukanye, ko bagufatira amafaranga bakayakohereza ku zindi konti, bagukorera ibintu bitandukanye.

Ahangaha barakubwira ngo ishimire itumanaho ryisanzuye ryiza, ahangaha waba ushaka gukoresha itumanaho kuba wakandikira umuntu uri mu gihugu gitandukanye n'icyo urimo cyangwa se uri ahandi hantu hatandukanye waza ukabikorera ahangaha.

Iyingiyi ni iminara y'itumanaho kugirango abantu babe babasha gukoresha murandasi neza bigenda neza bidacikagurika, bakaba babasha kuganira n'abandi bari kure ndetse n'ubwo baba bari mu mahanga.

Serivisi nshya ku rubuga irembo ikigo gitanga iyi serivisi minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Nicyo kigo gitanga iyi serivisi iki ni icyemezo cyutishoboye wacitse ku icumu rya jenoside .

Uru nguru ni urubuga rw'irembo wabasha kuba wakoreramo ibintu byinshi bitandukanye nkeneye kumenyekanisha ipatanti y'umwaka wose ya bibiri na makumyabiri na gatanu cyangwa igihembwe cya mbere uyu munsi wishyure mbere y'itariki ntarengwa ya mirongo itatu n'imwe z'ukwa mbere ibihumbi bibri na makumyabiri na gatanu.

Barakubwira ngo mu gihe habayeho guhita kwa gaze cyangwa kuva uzabibwirwa n'impamvu ya gaze yihariye muri icyo gihe kora ibi bikurikira aha ngaha bikurikira akaba ari byo uzakora kugirango ngo ubashe guhangana nayo.

Uyu nguyu ni umunara udufasha mu itumanaho kugira ngo mu gihe abantu barimo barakoresha za murandasi, barimo barareba amakuru yo hirya no hino ku isi, barimo barandikirana, byose bikomeze gukora neza bidacikagurika.

Iyi ngiyi ni komisiyo y' igihugu ishinzwe abakozi ba leta inama nyunguranabitekerezo n'inzego zo mu butegetsi bwite bwa leta.

Aha ngha ukwezi ko gushimira abasura, aha ngaha ba bari mu kwezi ko gushimira abasora, bagafata uruhare rw'imisoro mu iterambere akarere ka Burera. Mu makuru yo kuri uyu wa mirongo itatu zu kwa cumi bibiri na makumyabiri na rimwe, buri bitangazamakuru byose, haba hariho iyi saha bari buze kunyurizaho ayo makuru.

Iyi ni inyubako nini y'ubwishingizi, hakaba hari irembo ryagufasha kuba wahahiramo ibintu byinshi bitandukanye, hari hacaho amashanyarazi ajya ahantu hatandukanye.

Aya ngaya ni amapoto yo mu bwoko butandukanye, anyuraho insinga z'amashanyarazi kugira ngo zibashe kugeza umuriro ku bantu bagiye batandukanye, kugira ngo igihugu kirusheho kugaragaza umucyo kandi abaturage babeho babona.

Iki ngiki ni kinyabiziga cyo mu bwoko bwa bisi, kidufasha gutwara abantu bagiye ahantu hagiye hatandukanye mu kazi kabo ka buri munsi, tukabona n'ipoto y'insinga z'amashanyarazi, ibasha gutuma amazu ari aho ngaho agerwaho n'amashanyarazi ku buryo bworoshye.

Ahangaha niho umuriro ubarizwa umuriro uba ari mwinshi uri hano iyo uhabonye ugomba kwirinda cyangwa se kwitondera kuhagera ndetse no kuhahagarara kuko bishobora guteza ibyago byinshi bigiye bitandukanye impande n'impande.

Iki ngiki ni icyuma kiba kiriho amashanyarazi afite imbaraga. Kugira ngo abaturage bose babashe kugerwaho n'amashanyarazi, kandi babe mu gihugu kibona ndetse kinakeye.

Uru nguru ni urugomero rw'amashanyarazi, aha ngaha aba ari ku isoko y'amashanyarazi, haba hari amashanyarazi afite imbaraga nyinshi cyane, ahangaha uba ugomba kwirinda kuhegera mu gihe utari umukozi ubifitiye ububasha.

Iyi ngiyi ni poto iriho insinga nyinshi z'amashanyarazi, ziba zigiye ku mazu ari aho hafi kugira ngo buri rugo rwose rubeho rucanye ruri mu rumuri kandi igihugu gikomeze gutera imbere.

Aha ngaha urabona umwe mu bakozi bashinzwe gukora amashanyarazi. Yambaye imyenda yabugenewe n'inkweto zabugenewe, ubundi mu gihe umuriro wapfuye aragenda akabikora neza, ahantu hakongera hagasa neza urumuri ukaboneka.

Ayangaya ni amazu, ama butike acuruza ibintu byinshi bitandukanye ibyo kurya aho bacuruza ibikoresho by'ibinyabiziga, ibikoresho by'ubwubatsi tukabona n'amapoto atwara amashanyarazi ayajyanye ku baturage.

Iri ngiri ni ipoto ry'amashanyarazi, aha ngaha ribafasha kugira ngo inyubako zegereye hano zikomeze kugerwaho n'amashanyarazi ku buryo bwiza kandi bworoheje, buri muntu wese akabaho acanye.

Inyubako nini iherereye Kimironko, ikorerwamo ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, amazu y'ubucuruzi bacuruza ibintu byinshi wakenera, ibyo kurya, ibikoresho bindi bisanzwe byo mu rugo, ndetse n'ibindi bintu byinshi bikorerwa hano wahagera ukareba.

Uyu nguyu ni umwe mu bakozi b'ikigo gishinzwe amashanyarazi, aha ngaha yari arimo arakora umuriro awugeza ku bantu bagiye batandukanye, nawe uramutse uri igitsina gore ushobora kwiga umwuga, ukiga gukora umurimo na byo wabimenya kandi wabikora.

Iyi ni ipoto ishamikiyeho insinga nyinshi z'amashanyarazi kugira ngo begereze amazu ari aho hafi hose, buri rugo cyangwa se buri nyubako bitewe n'ubucuruzi bukorerwamo cyangwa se indi mirimo ikorerwamo ibone urumuri.

Iki ngiki ni kinyabiziga kiri mu bwoko bwa bisi gitwara abagenzi n'abandi bantu batandukanye kandi kikaba kiri aho ibinyabiziga bya bisi bihagarara n'ibindi bisanzwe bitwara abagenzi, iki ngiki kidufasha gutwara abantu benshi ku buryo bushoboka buri muntu akagenda ameze neza.

Ahaha ni urugomero rw'amashanyarazi, ahangahangaha uramutse utari umukozi ubifitiye ububasha cyangwa se ubishinzwe uzirinde kuhajya kugira ngo udahu n'ibyago bigiye bitandukanye wakwiteza.

Iri ngiri ni isangano rinini cyane kandi ry'imihanda myinshi itandukanye imihanda myiza irimo ibinyabiziga bitandukanye ibinyamitende ndetse n'amapikipiki ahangaha urabona ko harimo n'amatara ndanga ,uburyo abantu bagomba kugenda mbere cyangwa se ibinyabiziga bikagenda mbere hajyamo icyatsi abanyamaguru bakagenda cyangwa se hakaba ari ikinyabiziga kirimo kikagenda .

Ayangaya ni amapoto y'amashanyarazi adufasha kugirango umuriro ubashe kugera kuri buri muturage wese mu buryo bworoheje kandi bwiza bukomeze gutera imbere mu bintu byinshi bigiye bitandukanye kandi byiza.

Izi ngizi ni insinga z'amashanyarazi, zidufasha kuba umuntu wese w'umunyarwanda cyangwa se n'undi yabasha kubona amashanyarazi nawe akaba mu nzu irimo urumuri rugaragara neza kandi areba hose.

Iyi ngiyi ni inzu irimo umuriro w'amashanyarazi umeze neza ku buryo uramutse ukeneye umuriro byagufasha, aha ngaha hakaba hari uburyo bwo gukupa umuriro mu gihe haba hateye ikibazo gitandukanye.

Ni ipoto ry'amashanyarazi, aha ngaha riba rijyana amashanyarazi ku ngo zigiye zitandukanye kugira ngo u Rwanda rukomeze kubaho ruri ahantu habona kandi mu rumuri rusa neza, igihugu kigakomeza gutera imbere.

Iki ngiki ni igipangu cyiza, urabona ko imbere yacyo hari ipoto ijyanayo umuriro, ipoto iba iriho insinga nyinshi zitandukanye, kugira ngo ingo zose zegereye aho ngaho zibashe kugerwaho n'umuriro.

Uru nguru ni urugomero rw'amashanyarazi. Aha ngaha haba hari amashanyarazi afite imbaraga nyinshi cyane, aha ngaha ntanubwo wemerewe gukoraho. Haba hari ibyuma bifite insinga zijyana umuriro ahantu henshi hatandukanye, ibigo by'inganda, amazu n'ahandi henshi.

Ikigiki ni icyapa kiri mu ishusho y'urukiramende. Ahangaha nukigeraho iki cyapa uzamenya ko kikubwira yuko ahangaha niho bisi zihagarara. Nuhagera utwaye bisi uzamenyako ahangaha wemerewe kuhahagarara.

Ibi ngibi ni ibipangu byiza, bifite amabara meza, tukabona n'ipoto y'amashanyarazi, inyuraho insinga z'amashanyarazi kugira ngo ingo ziri hano zibashe gucana mu buryo bworoshye kandi bwiza bwizewe.

Iri ngiri ni ipoto rijyana umuriro w'amashanyarazi mu nshe zigiye zitandukanye z'igihugu kugira ngo, u Rwanda rurusheho gukomeza gutera imbere, kandi rubeho ahantu habona, hari urumuri rusa neza rugaragara neza mu ruhando mpuzamahanga.

Uyu nguyu ni umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, imbuto y'ibigori, tukareba harimo ipoto ririho insinga z'amashanyarazi, zigiye zijya mu ngo zigiye zitandukanye, kugira ngo u Rwanda rubeho rufite amashanyarazi mu ngo zijyiye zitandukanye.

Iyi ngiyi ni ipoto iriho insinga z'amashanyarazi. Kugira ngo abaturage bose babashe kubona urumuri, babashe kubona urumuri, babashe kubona umuriro, bakore imirimo yabo itandukanye mu buryo bwizewe.

Iri ngiri ni ipoto ry'amashanyarazi kugira ngo abaturage babashe kugerwaho n'umuriro w'amashanyarazi bakomeze babe mu gihugu cyiza gikeye ndetse gifite urumuri ubundi bishimire iterambere.

Iki ngiki ni icyuma kinyuraho insinga z'amashanyarazi kugirango abashe kugera ku baturage b'abanyagihugu neza kandi ku murongo, gusa ahantu uzabona iki cyuma uzirinde kuhagera kugira ngo utazagira ibyago ushobora guhura nabyo.

Iki ni ikinyabiziga cyangwa se ibibisi binini bidufasha gutwara abagenzi benshi, bagiye batandukanye ndetse mu nshe zimwe na zimwe z'igihugu zigiye zitandukanye, zitwarira mu gare atwara abantu.

Umuntu wicaye akaba ari umu mama, akaba afite ibikoresho by'irangururamajwi imbere ye, hakaba hari n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga ndetse inyuma ye hakaba hari idarapo ry'u Rwanda.

Uru nguru ni urugomero rw'amashanyarazi, umuriro ahantu uba ukusanyirijwe ari mwinshi. Aha ngaha niho umuriro uba uturuka isoko y'amashanyarazi kugira ngo abashe kugera kuri buri muntu wese.

Iri ngiri ni ipoto rijyana amashanyarazi, hanyuraho insinga zijyanye umuriro ufite imbaraga, kugira ngo buri muturage wese abashe kugerwaho n'umuriro kandi abe mu gihugu kiza kandi gisa neza kibona.

Uyu nguyu ni umuhanda, aha ngaha ni imbere y'agakiriro ka Gisozi, urabona ko hari umubyeyi urimo urakora Kigali ikeye, aha ngaha arimo arakora amasuku kugira ngo umujyi ukomeze kubaho ukeye ndetse n'igihugu gifite isuku.

Itabara mu gihe ahantu haba habaye ibyago bitunguranye cyangwa se ibindi biza runaka, iyi ngiyi ihagera mu gihe, ubundi ikaba yagufasha mu bintu bigiye bitandukanye, mu bihe nk'ibi by'amagorwa ugezemo.

Iki ngiiki ni ikinyabiziga uzasanga ari ikinyabiziga cya leta, inshuro nyinshi uzagisanga ku mavuriro, iki ni ikinyabiziga twita imbangukiragutabara, igihe ahantu habaye, ibyago iki ni cyo kinyabiziga uzahamagara kikakugeraho vuba bakaguha ubutabazi bwihuse.

Iki ngiki ni ikigo cy'ubuvuzi, abantu hano baba bicaye bategereje ko babafasha mu buryo butandukanye bicaye bitewe n'uwahageze mbere, ahaguruka ajya aho ukurikiye we na we ajyaho, tukabona n'imodoka z'imbangukiragutabara zifasha kugira ngo byihute mu gihe habonetse ibibazo byinshi bitunguranye.

Iri ngiri ni ivuriro rigari ryiza, ushobora kuza kuzakwivurizaho mu mu gihe waba wumva ubuzima bwawe butameze neza, hari aho ugera ukinjira bwa mbere, bakabanza bakagusuzuma bakareba ikibazo ufite bakabona kukuvura.

Iringiri n'ivuriro rya kabgayi, ivuriro ushobora kuzamo ufite ibibazo bitandukanye by'umubiri, barakwakira haba hari abantu b'inzobere, abaganga babyigiye bagufasha.

Iki ngiki ni ikigo nderabuzima minisiteri y'ubuzima giherereye mu karere ka Nyarugenge bikaba ari ibitaro bya Muhima, uramutse ukeneye kwivuza ukeneye serivisi zo kwa muganga aha ngaha waza bakagufasha.

Iki ni kigo nderabuzima ivuriro uramutse ukeneye kwivuza ushobora kuza hari n'ahantu ubanza gukaragira urwogero rw'intoki cyangwa se urukarabiro kugira ukomeze kwimakaza isuku.

Iri ngiri ni ivuriro rinini ryiza rigari, aha ngaha bakaba bari kutwereka aho ababyeyi bagiye kubyara bafashirizwa. Ahantu ababyeyi bagiye kubyara bafashirizwa ni hariya.

Izi ngizi ni inyubako z'ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, uramutse ufite ikibazo cy'ubuzima waza kuri izi nyubako ibitaro bya Nyarugenge bakagufasha, baba bafite abaganga b'inzobere babizobereyemo kugira ngo ubuzima bwawe bwongere bugende neza nk'uko bwahoze.

Iri ngiri ni iyavuriro ryiza kandi rigari riri mu mujyi wa Kigali, iri ni ivuriro bagufasha ku bintu bijyanye n'ubuzima bwawe bukongera bukamera neza mu gihe waje utameze neza, ndetse hari n'icyapa kiri mu shusho y'uruziga kirimo impuruza inyujijemo umurongo, hano ntabwo uba wemerewe kuhavugiriza impuruza.

Iri ngiri ni ivuriro rinini cyane rigari riherereye mu mujyi wa Kigali rinini cyane kandi ryiza, wabasha kuza kwivurizaho mu mu gihe wumva ubuzima bwawe butari kugenda neza, iiyo hari ibice bitameze neza, ukaza baragufasha ukongera ukamera neza.

Iri ngiri ni ivuriro rinini kandi ryiza rigari aha ngaha niho abantu baza kwivuriza bakareba uko ubuzima bwabo bugiye buhagaze n'uko bimeze, tukaba tubonamo n'ibyapa hari icyapa kigaragaza ko utemerewe kuvuza impuruza mu gihe ugeze hano.

Ibi ngibi ni ibitaro byiza binini kandi bigari byitwa umwami fayisari, ibi ngibi ni ibitaro twese twemera mu gihugu cyu Rwanda ku bijyanye n'ubuvuzi no gufata neza abarwayi, aha ngaha urwaye ufite ikibazo ukagerayo uvayo umeze neza ijana ku ijana.

Iyi foto iratwereka icyapa cya eyateri ikatwereka umuntu ufashe urupapuro mu kuboko kw'ibumoso ndetse akaba afite na terefone mu kuboko k'iburyo akaba ari gufotora urupapuro.

Iri ngiri ni ivuriro ryiza riri mu mujyi wa kigali. Mu gihe uba wumva ubyutse ukumva ntabaraga ufite n'ibindi bimenyetso bitandukanye byakugezeho, wemerewe kuza hano bakagufasha ugasubira umeze neza. Aha hari umuryango uriho icyapa kikubwira ngo ahangaha ni gakondo y'abashinwa

Iringiri ni ivuriro rinini cyane riri mu mujyi wa Kigali, waba ufite ubuzima wumva butameze neza, bushobora kuza hano ku ivuriro bakagupima bakareba ibibazo byose ubuzima bwawe bufite, barangiza bakakuvura bukongera bukamera neza, uyu nguyu ni umwe mu bakozi b'iri vuriro.

Abangaba ni abayobozi b'ibigo bitandukanye baganira ku bintu byakomeza gutuma bagura imishinga ndetse bagateza igihugu imbere n'imiryango yabo n'abandi bantu bagiye batandukanye ubundi igihugu kigakomeza kumenyekana.

Aha ngaha turabona abantu babiri babagororwa cyangwa se bataraba bo, baba baje kuburanishwa kugira ngo bamenye niba ibyo baregwa ari byo, iyo bamaze gusanga aribyo barabahana bakabaha igihano gikwiranye n'ibyo bakoze.

Uyu nguyu ni umugabo uzwi cyane ku izina rya fatakumavuta, uyu nguyu ufite agacupa, urabona ko ari kumwe n'umupolisi w'igihugu cy'u Rwanda aha ngaha hari ibyaha aba arimo arakekwaho bakamufata bakamujyana, bakamujyana bagakora iperereza bakareba niba ibyaha bimuhama ubundi bakamuha ibihano.

Uregwa aba ari kumwe n'umuburanira kugira ngo baganire ku byo aregwa, ubundi abashe kumuburanira azi ibyo avuga, barebe niba arengana cyangwa se atarengana ubundi akabihanirwa.

Aba ngaba ni abayobozi baba basoje ibintu runaka. Bafashe ku ibendera ry'igihugu bari kurahira, bahiga imihigo runaka. Bashobora kuba ari abacamanza barimo bararahira.

Abangaba ni bamwe mu bashinzwe umutekano mu gihugu baba hano bari bafashe umuntu ushinjwa ibyaha bitandukanye bakamujyana ku biro ngenzacyaha bakareba uko ibyaha bye bimeze byamuhama bakamukatira bakamuha ibihano bimukwiriye.

Iyi ni inyubako nini y'igororero izwi ku izina rya gereza cyangwa se uburoko butewe aha ngaha aba n'abagororwa baba bagiye gukora imirimo nsimburagifungo kugira ngo babashe koroshya ibintu.

Abayobozi bagiye batandukanye aha ngaha ni mu rukiko tukabona uburana ndetse n'abamuburanira kugira ngo hakomeze kubaho ubwumvikane hagati.

Aba ni abayobozi b'ikigo kimwe cyo mu Rwanda bashinzwe ibintu byinshi bitandukanye byo gufasha abaturage cyangwa se urubyiruko kuba rwagira icyo rwigezaho, rukagirwa inama rukiteza imbere mu buzima bwiza ndetse no mu mibereho myiza.

Umukuru w'igihugu ari kumwe n'abandi bayobozi, bagiye batandukanye bo mu ngeri zitandukanye kugira ngo bakomeze kureba ikintu cyatuma u Rwanda basigasira ibyagezweho ndetse biga no ku buryo bateza imbere ibindi.

Uyu nguyu ni umucamanza, bambara imyenda iri muri aya mabara ameze gutya, amakanzu afitemo umukara ndetse n'umutuku. Aba ngaba ni bo bagufasha mu gihe hari ibyaha urimo urashinjwa, ukababwira uko bimeze ubundi bakaza bakakuburanira.

Uyu nguyu ni umucamanza, umwe mu bakozi ba leta baba bashinzwe guca imanza, uzaza uje mu rukiko kuburana uzahamusanga ari guca imanza z'ibintu bigiye bitandukanye.

Uyu nguyu ni umucamanza, uzamusanga mu rukiko ugiye kuburana, ikintu aba akora ni uguca imanza, mu bijyanye n'ibyo barareba bakareba ibyaha ushinjwa n'ibyo uregwa n'ibimenyetso bihari ubundi bakagucira urubanza.

Aha ngaha niho muburanira. Aho baburanira urabona ushinzwe kuburana ndetse n'umufasha kumuburanira. Aha ngaha ni mu rukiko, uraza ukaburana bakakuburanira abandi bakakuburanisha, ibyaha byaguhama bakaguhana bakagukatira.

Abangaba ni abagororwa barimo baraganira nabo ku bintu bintu byinshi bitandukanye byabagirira umumaro byatuma babasha kwitezaho imbere ndetse ndetse kugira ngo bamwe bareke no kwiheba.

Abangaba bari ku ikoranabuhanga, bari gukoresha za mudasobwa, bari bambaye udupfukamunwa, aha hari mu gihe k'icyorezokugira ngo utaza kubasha kwanduza mugenzi wawe wagombaga kugenda washyizeho agapfukamunwa kuko iyi ndwara yanduriraga mu matembabuzi.

Uyu nguyu ni umucamanza, ni umwe mu bantu baba bagucira imanza mu gihe hari ibyaha ukekwaho, cyangwa se uregwaga, aba ngaba baba bahabaye bagushinja, baca imanza, n'ibicyi.

Uyu nguyu ni umupolisi wo mu muhanda ushinzwe umutekano wo mu muhanda, imigendere yo mu muhanda, aha ngaha yari arimo arareba icyangombwa cyo kuba wemerewe gutwara ikinyabiziga mu muhanda, aba afite ibyo agomba kureba, niba nta musoro gifite, kitishyuriye n'ibindi bitandukanye.

Iyi ngiyi ni inyubako ndende kandi nziza, ahangaha barakwereka ko hariho umuridankuba, umuri udufasha kugira ngo mu gihe niba mu gihe cy'imvura inkuba zirimo zirakubita, hataza kugira ibikoresho byangirika, igabanya izo nkuba ziba zirimo zirakubita.

Uyu muhanda ujya mu mujyi cyangwa se ujya ku Muhima aho waba ugiye hose, ahangaha imodoka zigeze ku kiraro iki ni ikiraro kijya mu mujyi cyangwa se ku Muhima bitewe n'aho ushaka.

Iki ngiki ni igikoresho kidufasha guhangana n'inkongi y'umuriro, ufite ubucuruzi bwawe bwagutse cyangwa se inganda n'ibindi bikorwaremezo bitandukanye, iki ngiki ushaka wakigura ukakibika ukiteganyiriza mu gihe waba watewe n'inkongi y'umuriro itunguranye ukifashisha.

Iki ngiki ni igikoresho cy'ubutabazi wakwifashisha mu gihe watewe n'inkongi. Iki ngiki ufite ibikorwa runaka cyangwa se ikigo, ushobora kuba wakigura akakizanamo kugira ngo haramutse hateye inkongi y'umuriro igutunguye wacyifashisha.

Aha ngaha ni kuri zigama. Icyicaro cya Muhima, uramutse ukeneye ukora gahunda zijyanye no kuzigama ku Muhima, wajyayo ubundi bakagufasha kuzigama ibyawe bigiye bitandukanye.

Iyi ngiyi ni inyubako irimo ibikorwa byinshi hari n'icyicaro cya Police, aha ngaha ni ku Muhima urabona ko hari n'ibinyabiziga bya Police bihahagaze, aha ngaha ushobora kuba waza gukorera uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ikinyabiziga, iyi nzu niyo bikorerwamo.

Aha haba habayeho kuza kuzimya inkongi y'umuriro, aba ngaba ni bamwe mu bakozi bashinzwe, kumwe uba utetse uri mu nzu ubundi bigatomboka, urabahamagara bakaza bakagufasha guhangana n'inkongi y'umuriro.

Abangaba ni bamwe mu bakozi bashinzwe umutekano wo mu muhanda urabona ko bafite ikinyabiziga cyabo cy'ipikipiki bifashisha mu gihe bari gusigasira umutekano wo mu muhanda bareba niba se abantu bose bagenda mu muhanda bemerewe bafite impushya zibemerera kugenda mu muhanda kugira hatazagira ubangamira mugenzi we.

Bamwe mu bakozi babugenewe bashinzwe kuzimya inkongi z'imiriro ahangaha uzabasanga ahantu barimo baratabara hatewe n'inkongi y'umuriro igiye itandukanye ubundi bakabafasha kuzimya.

Iki ngiki ni ikinyabiziga cya polisi cya leta, bagendamo barimo barasigasira uburyo bakomeza kurinda igihugu, mbega no kugicungira umutekano, kugira ngo hataza kugira ibibazo biba hagati y'abantu n'abandi.

Iyi ngiyi ni imirimo y'amaboko y'ubudozi aha ngaha bakudodera ibikapu byiza gakondo Kinyarwanda wabasha kuba wahaha ukakajyana ahantu hatandukanye guhahiramo ndetse n'utundi tuntu twinshi.

Icyi ngicyi ni igikoresho kidufasha guhangana n'inkongi y'umuriro, icyingicyi ugifite ahantu ukorera ukabona hateye inkongi y'umuriro, wacyifashisha ubundi ugahangana n'iyo nkongi. cyangwa se nawe ufite ibikorwa remezo ukora ukaba wakigura ukakihashyira kugirango kizagufashe.

Abangaba ni bamwe mu bakozi bashinzwe kuzimya inkongi y'umuriro. Ahangaha bari bacanye gahazi ubundi biratomboka byaka nabi, ababishinzwe bahita baza kubafasha kuba bazimya inkongi y'umuriro, kugira ngo ibintu bitaza gushya cyangwa kwangirika ari byinshi.

Ikingiki ni icyapa cy'ikigo gishinzwe ubugenzacyaha i Nyamirambo. Ahangaha imirongo itishyurwa wahamagara ubashaka, rimwe gatandatu, gatandatu, gatatu, gatanu, rimwe, kabiri cyangwa se makumyabiri mirongo ine.

Uyu nguyu ni umuhanda mugari munini, uba urimo ibinyabiziga bitandukanye, hagati hari ikinyabiziga kinini, gitwara imizigo ndetse k'uruhande kunzira y'abanyamaguru hariho umuntu usanzwe utwaje undi imizigo akayimujyanira ahantu hatandukanye ubundi akamwishyura.

Ahangaha turabona umuntu wari uvuye guhaha igikioresho kifashishwa muburyo bwo kurwanya inkongi y'umuriro. Iki gikoresho mugihe inkongi yaguteye utiteguye uramutse ugifite munzu cyagufasha cyangwa ahantu ukorera.

Iki ngiki n'ikinyabiziga kinini kandi kigali kidufasha guhangana n'ahantu haba hateye inkongi y'umuriro iyo ari yo yose, ikingiki haba hari abakozi babishinzwe, bafite ubumenyi buhagije.

Ibi ngibi ni ibikoresho wifashija uhangana n'inkongi y'umuriro kugira ngo ubashe kubaho ubuzima bwiza. Ibi ngibi uramutse ufite ibikorwa remezo byawe ukabigura ukabijyanayo kugira ngo inkongi y'umuriro nitera uzabashe guhangana nayo.

Uyu nguyu n'umu Police w'Igihugu cy'u Rwanda akaba ari umuyobozi ushizwe imigendere ndetse n'umutekano w'ibinyabiziga mu muhanda, aha hanga uzajya kubona ukabona araguhagaritse akakubaze ibyangobwa bikwemerera kugenda mu muhanda.

Abahanga ni bamwe mu bakozi bashinzwe guhangana n'inkongi y'umuriro, aha ngaha bari barimo barazimya inkongi y'umuriro. Mu gihe inkongi y'umuriro yateye, aba ngaba ni bo uba ugomba guhamagara, bakazana abakozi babishinzwe babifitiye ubumenyi bakabikora.

Umukuru w'igihugu imbere y'abaturage benshi cyane bashoboka, ayoboye bababaje buzuye baje kumureba, ndetse no kumva ibiganiro byiza abagezaho, inama nziza abagira.

Iki ngiki ni ikirango cy'inkotanyi, iri ngiri ni ishyaka, aha ngaha barakubwira ngo demokarasi ubumwe amajyambere. Ibi ngibi nibyo baba bashyize imbere cyane kandi ubona ko ari byo byaba byarateye imbere mu gihugu cyacu.

Imodoka yo mu bwoko bwa toyota ihagaze ahantu hamwe ndetse ikaba isa umweru iparitse ahongaho kugira ngo abantu bazikeneye bazikodeshe cyangwa se bazigurishe ndetse hakaba hari n'izindi nkazo byegeranye.

Ahangaha turabona icyapa cya Repubulika y'u Rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora, ahangaha bakaba batubwira ngo twitabire amatora duhitemo neza kandi koko twahisemo neza umuyobozi wacu dukunda niwe twagumanye.

Ishyaka ryarimo kwiyamamaza ryitwaga icyatsi, kugira ngo umuyobozi waryo arebe niba amatora ashobora gutsinda, akaba umuyobozi w'igihugu ariko ntabwo ariwe waje gutsinda.

Aha ngaha hari mu gihe cyo kwiyamamaza, uwari umukuru w'igihugu yararimo ariyamamaza kugira ngo arebe niba yazongera gutsinda amatora azaba akurikiye, ariko n'ubundi yaje gutsinda amatora niwe wakomeje kuyobora igihugu cyacu.

Ikingiki ni igishushanyo cy'uburyo akarere kaba kubabatse uhereye ku karere kugera ku rugo, urabona ko habanza akarere, umurenge wa mbere, umurenge wa kabiri, kugera ku murenge wa makumyabiri na rimwe, akagari ka mbere, akakagari ka kabiri, kugera akagari ka gatandatu, umudugudu wa mbere, kugera ku wa gatandatu, kurinda ugeze ku rugo.

Aha ngaha umuntu wari umukuru w'igihugu yari arimo ariyamamaza mu matora, ahagarariye ishyaka ryitwa Efuperi, ubundi nyuma yaho kugira ngo arebe ko yakongera agatsinda, gusa n'ubundi ni we waje gutsinda amatora, arakomeza arayobora.

Aha hari mu gihe cyo kwamamaza, uyu nguyu ni umuyobozi w'igihugu wo hambere yararimo ariyamamaza, mu matora azaba aribukurikireho, gusa nubundi amatora nyuma yuko amatora yabaye amajwi yavuyemo niwe watsinze.

Aba ni abayobozi b'ibigo runaka, bashobora kuba bavuye mu nteko, bavuye kuganirizwa, bavuye kuganira n'abandi, bavuye kureba abo bayobora, cyangwa se bagiye kubareba kugira babaganirize ku bintu byinshi bitandukanye.

Iki ngiki ni icyumba kinini kiberamo inteko y'inama iba yiga ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, biga ku mishinga biga ku bintu byateza igihugu imbere bikaba byateza n'abaturage imbere.

Abayobozi bashya bafashe kw'ibendera ry'igihugu, barimo bararahira indahiro zigiye zitandukanye, imigabo n'imigambi ibyo bazageraho, n'ibyo bazafasha abaturage.

Abayobozi bo mu nzego zigiye zitandukanye, aha ngaha barimo barashyira imikono yabo mu mpapuro z'ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo bakomeze kurushaho kwagura ibikorwa byiza ndetse no guteza imbere imirimo myinshi itandukanye n'igihugu kirimo.

Abaturage bo mu ngeri zitandukanye, harimo abana, abakuru n'abasaza, aha ngaha baba bateranyijwe bagakoreshwa inteko, bakaganira ku bibazo biri hagati mu baturage ndetse n'abayobozi bakabasha kuba babikemura.

Aba ngaba ni abayobozi bo mu nzego zigiye zitandukanye baba bari kuganira ku bintu byinshi bafite insakazamajwi, kugira ngo buri wese abashe kumvikana n'undi cyangwa se kugira buri wese abashe kumva icyo undi avuze.

Iki ni icyumba k'inama y'imwe muri kampani runaka, aho abayobozi bashobora guhurira mu kwiga ku ngingo zitandukanye no gukemura ibibazo byagaragaye.

Aba ngaba ni abaturage benshi cyane aha ngaha twari turimo turamamaza ishyaka riba rihagarariwe n'umuyobozi ushaka kuba yaba umukuru w'igihugu, iri ni naryo shyaka ryatsinze mu matora havuyemo umuyobozi mukuru w'igihugu.

Ahangaha iri ni ishyaka ryari riri kwamamaza umukandida kugira ngo barebe niba nawe yatsinda akazatorwa akaba umukuru w'igihugu, ariko ntabwo ariwe watsinze ariko ahangaha aba ni abantu bari barimo baramamaza iryo shyaka rigizwe n'uwo muyobozi.

Aha ngaha hari mu matora aka ngaka ubundi aba ari agasanduku k'ibitekerezo, nyuma yuko umaze gutora cyangwa se gutanga igitekerezo cy'umukandida wumva watora ufata agapapuro ukakazinga ubundi ukagashyiramo hariya.

Mu karere ka Muhanga habereyemo irushanwa ry'amagare riba buri mwaka rikabera mu gihugu cy'u Rwanda, babahagaritse ku mpande kugira ngo hataba impanuka ndetse n'abari mu irushanwa babashe gusiganwa nta nkomyi.

Uyunguyu ni umuhanda muremure wisanzuye. Urimo ipikipiki iriho umuyobozi uyitwaye, ndetse hariho n'umugenzi ajyanye ahantu runaka.

Mu muhanda urimo abantu b'ingeri zigiye zitandukanye, bagiye mu bucuruzi butandukanye tukabona amagare atwaye imizigo ayijyanye ahantu hatandukanye, bakaba bayayoboye bayicayeho kugira ngo ikomeze kugenda neza.

Iki ngiki ni ikinyabiziga gitwara imizigo gitoya, imbere hari ikinyabiziga gitwara imizigo myinshi, amatoni menshi, urabibona ko cyo cyari kizanye imizigo myinshi cyane imifuka ni myinshi ishoboka.

Aha ngaha turabona itsinda cyangwa se ishyirahamwe ry'utunyamitende tuba tugizwe n'ibiziga bitatu dutwara imizigo, aha ngaha kenshi usanga bibumbiye mu ishyirahamwe kugira babashe gufatanya no kumvikana.

Uyu nguyu ni umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga by'amapine ane, byo gutemberamo abantu bagendamo bisanzwe, amapikipiki ndetse n'amagare atwara abagenzi, n'ikinyamitende cy'ibiziga bitatu, gitwayemo intama zigiye ku wazitumije.

Iki ni ikinyabiziga kizwi nk'ipikipiki, kidufasha gutwara abantu bagiye ahantu hagiye hatandukanye, tukabona n'inzu igurirwamo inyama nziza, ukebeye inyanya nziza zikoze neza ukaba waza ukazihahahira.

Iki ni ikinyabiziga kidufasha gutwara imizigo, iva ahantu hamwe ijya ahandi, mu gihe waba uhashye imizigo yawe igiye itandukanye cyangwa se uranguye ibicuruzwa, iki kinyabiziga cyagutwaza kikakugerezayo.

Ibi ngibi ni ibinyabiziga binini, bitwara ibyo mu bwoko bwa peteroli, cyangwa se esanse, bidufasha kuba byajyana ahantu hatandukanye, mu ngomero zitandukanye.

Uyu nguyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga by'amapine ane, umuyobozi ubiyoboye aba abyicayemo, tukabona n'ipikipiki iriho umuyobozi wayo, ndetse n'umugenzi atwaye. Tukabona n'igare ritwaye umugenzi kugira bose babashe gushaka imibereho.

Aka ngaka ni akanyamitende k'ibiziga bitatu kadufasha gutwara imizigo iringaniye kayivanye ahantu hamwe kayijyanye ahandi, kugira ngo irusheho gukomeza gutera imbere mu buryo bwinshi bugiye butandukanye bw'igihugu.

Ni umuhanda urimo ibininyabiziga bigiye bitandukanye by'ubwoko bwinshi, amapikipiki, ahandi amagare, byose biri gutwara abagenzi, kugirango birebe ko byose byabona amafaranga bigakomeza gutera imbere, n'abantu bagatera imbere.

Ibi ngibi n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye biri mu mihanda myiza kandi migari tukabona ikinyabiziga gitwara abantu bake ndetse n'ikinyabiziga cya bisi gitwara abantu benshi bagiye ahantu hajyiye hatandukanye mu tuzi twabo twa buri munsi.

Iki ni ikinyabiziga kidufasha gutwara imizigo myinshi kandi iremereye, kiyivanye ahantu hamwe kiyijyanye ahandi. Ushobora kuba uri umucuruzi urangura imizigo myinshi cyane, ukaba wacyifashisha kikagutwaza.

Uyu nguyu ni umuhanda uri mu mujyi wa Kigali urimo urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga. Abantu batwaye imizigo ku mutwe wabo, ibinyabiziga bitwara imizigo ibinyabiziga bitwara abagenzi amapikipiki atwara abagenzi.

Ibi ngibindi ni ibinyabiziga bigiye bitandukanye, tukaba tureba hano ikinyabiziga kidufasha gutwara abagenzi, tukareba ibinyabiziga by'amapikipiki na byo bidufasha gutwara abagenzi bavuye ahantu hamwe bajya ahandi mu ngeri zigiye zitandukanye.

Uyu nguyu ni umuhanda uri mu Mujyi wa Kigali, uva ahantu hamwe ujya ahandi, harimo ibinyabiziga binini cyane bidufasha gutwara imizigo nk'iki ni ikinyabiziga gitwara amatoni aremereye menshi cyane y'ibikoresho byaba iby'ubwubatsi, yaba ibyo kurya, imizigo myinshi cyane iremeye.

Uyu nguyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye by'ubwoko bunini, ikinyabiziga gitwara imizigo gipakiyemo amabuye mu gihe ikinyabiziga gitwara imizigo harimo imizigo ugomba kuba wayitwikiriye itagenda igaragara.

Aha ngaha ni umuhanda wisanzuye munini mugari, urimo ibinyabiziga bitwara imizigo bitandukanye, n'ibyo kugendamo bitandukanye. Tukabona n'icyapa gifite ishusho y'umuzenguruko, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara, bakubwira ngo ntago kuhahagarara byemewe.

Ibi ngibi ni ibinyabiziga, aha ngaha ni aho bihagarara, tuhabona bisi zitwara abagenzi bagiye ahantu hagiye hatandukanye hirya no hino mu gihugu, kugira ngo babashe gukomeza gukora akazi kabo neza.

Iki ngiki ni ikinyamitende ikinyabiziga cy'ibiziga bitatu kidufasha gutwara imizigo mikeya iringaniye, kiyikuvanira ahantu hamwe kiyijyana ahandi ibintu waba waguze bigiye bitandukanye.

Ibi n'ibinyabiziga bidufasha mu ngendo zacu za buri munsi nyinshi zitandukanye hakaba hari bisi itwara abagenzi akaba n'ikinyabiziga kinini gitwara imizigo myinshi amatoni aremereye menshi kikaba cyambukiranya n'imipaka kiva mu gihugu kimwe kijya mu kindi.

Aha ngaha ni aho amapikipiki ahagarara mu gihe ategereje ko abona abagenzi, aha ngaha niho aba ahagaze kandi buri wese ahagaze ku buryo ntawe ubangamira mugenzi we mu kazi.

Uyu nguyu ni umuhanda urimo ibice bibiri by'ibyerekezo bitandukanye, harimo ikinyabiziga kinini kidufasha gutwara imizigo urabona ko gitwaye imizigo myinshi cyane, imifuka y'amakara kandi mu gihe utwaye imizigo aba ari ngombwa ko ugenda hejuru watwikiriye.

Ibinyabiziga bitandukanye, hano tukareba ikinyabiziga gito gitwaye imizigo, mu gihe utwaye imizigo ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose uba ugomba kugenda watwikiriye imizigo yawe itagenda igaragara.

Ikingiki ni ikinyabiziga kinini kidufasha mu kuba cyadutwaza ibikoresho by'ubwubatsi nk'ibyuma, amabati n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi bitandukanye, uramutse ukeneyene kubigura cyangwa se ubicuruza, iki kinyabiziga kinini kikorera amatoni menshi aremereye cyabigufashamo.

Ibi ngibi ni ibinyabiziga bitandukanye hakaba hari ikinyabiziga gitwara abantu gusa, hakaba hari n'ikinyabiziga gitwara imizigo. Iki ikinyabiziga gitwara imizigo kiri mu ibara ry'umutuku kidufasha gutwara imizigo akenshi mu gihe ahantu hari gukorerwa ibikorwa by'ubwubatsi.

Umuhanda mwiza rwose mugari urimo ibinyabiziga bitandukanye mini bisi, amapikipiki ariho abayobozi bayicayeho.

Uyunguyu ni umuhanda mugari urimo ibinyabiziga bitandukanye amagare, n'amabisi atwara abagenzi manini, atwara abantu benshi ku buryo bugaragara.

Umuhanda munini, mugari, urambuye urimo ikinyabiziga kinini kidufasha gutwara imizigo akenshi y'ubwubatsi, ibi binyabiziga uzasanga bikoreshwa igihe ahantu harimo gukora ubwubatsi butandukanye.

Uyu ni umuhanda nyabagendwa ugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye ahangaha turareba ipikipiki iriho umuyobozi wayo ufite n'akazigo gato cyane ndetse n'ikinyamitende cy'ibiziga bitatu kidufasha nacyo gutwara imizigo yisumbuyeho kuyo amapikipiki yabasha gutwara.

Uyu nguyu ni umuhanda mugari munini, uba urimo ibinyabiziga bitandukanye, hagati hari ikinyabiziga kinini, gitwara imizigo ndetse k'uruhande kunzira y'abanyamaguru hariho umuntu usanzwe utwaje undi imizigo akayimujyanira ahantu hatandukanye ubundi akamwishyura.

Iki ngiki ni ikinyabiziga kidufasha gutwara imizigo myinshi igiye itandukanye kiyijyanye mu ngeri z'ahantu hatandukanye, mu gihe waba uraguye ibicuruzwa byawe cyangwa se ibindi bintu bigiye bitandukanye iki ngiki cyagutwa.

Ikindi kinyabiziga kininidufasha gutwara imizigo igiye itandukanye kijyanye ahantu hatandukanye uramutse ufite ibikorwa bya ukora bituma urangura imizigo myinshi ikingiki cyayigutwaza.

Uyu nguyu ni umuhanda turimo turareba aho turi kureba ni icyerekezo kizamuka harimo imodoka itwaye imizigo, ziriya ni imodoka ni zidufasha gutwara imizigo, niki kinyamitende cyama cy'ibipine, bitatu kidufasha gutwara imizigo kikatutegereza aho twifuza.

Uyu nguyu ni umuhanda nyabagendwa urabona ko harimo n'ipikipiki iriho umuyobozi wayo uyitwara ayicayeho, tukareba hakurya tukareba icyapa kigaragaza ko hari urusengero hananditseho ko ari itorero ururembo rwa kigali.

Iki ni kinyabiziga kinini cyane kidufasha gutwara imizigo myinshi, akenshi ibinyabiziga bidufasha mu bijyanye n'ubwubatsi, ahantu barimo barakora ubwubatsi bugiye butandukanye; ibinyabiziga nibyo bigenda bidufasha kuzana ibikoresho bimwe na bimwe by'ubwubatsi.

Iki ni ikinyabiziga kinini kidufasha gutwara imizigo igiye itandukanye, kiyivana ahantu hamwe kiyijyana ahandi, ndetse ibingibi bishobora kuba byakwambukiranya n'imipaka, mu gihe rero uri umucuruzi cyangwa se ibigo by'imari, abafite ibigo binini, iki cyagutwaza.

Uyu nguyu ni umuhanda munini mugari uherereye ahantu runaka wari kugendamo amapikipiki ariho abayobozi bayicayeho ndetse n'ikinyamitende cy'ibiziga bitatu kidufasha gutwara imizigo mike iringaniye aha ahantu h'urugendo narwo rutari runini cyane.

Aka ngaka ni akanyamitende k'ibiziga bitatu, kadufasha gutwara imizigo mikeya iringaniye ahantu hagiye hatandukanye, kugira ngo ubashe gukora gahunda zawe zitandukanye. Aka gaka gatwara imizigo aho waba ukeneye kuyivana uyigeza ahandi.

Ikinyabiziga bisi nini, idufasha gutwara abagenzi bagiye mu kazi kabo ka buri munsi, kagiye gatandukanye. Bava mu ngo basubirara mu kazi , bava mu kazi basubira mu ngo ,bajya no gusura ahandi hatandukanye . Ibinyabiziga bidufasha mu ngendo zacu za buri munsi.

Iki ngiki ni ikinyabiziga kinini kidufasha gutwara imizigo ivuye ahantu hamwe hatandukanye igiye ahandi, mu gihe waba uri umucuruzi urangura imizigo cyagutwaza ukabona umuntu umwe mu bashinzwe gukora ibinyabiziga atwaye ikiziga wenda cyo gushyira ku binyabiziga.

Iki ngiki ni ikinyabiziga kiringaniye ariko kinini nanone gitwara imizigo, kidufasha gutwara imizigo yaba uvuye kurangura ibicuruzwa, cyangwa se ibindi bintu bitandukanye, iki kinyabiziga kidufasha gutwara imizigo.

Ikinyabiziga kinini kiri mu muhanda kidufasha gutwara imizigo myinshi cyane amatoni aremereye, nkabona n'ikindi kinyabiziga cy'ibiziga bine gisanzwe cyo kugendamo waba ugiye mu kazi cyangwa se gutembera n'umuryango wawe ndetse n'igare ririho umunyonzi uryicayeho atwaye n' umugenzi.

Ahantu hemewe ho guhagarika ibinyabiziga byemewe kubahagarara hari n'amaduka acuruza ibintu byinshi bigenda bitandukanye acuruza telefoni acuruza n'ibindi bintu wakenera wagenda ukahagurira.

Umuhanda munini mugari wa Nyabugogo hakaba harimo aho abanyamaguru bambukira abaho ibyapa bitandukanye bigufasha kugendera neza mumuhanda waba utwaye ikinkinyabiziga kinini cyangwa se gitoya amapikipi, amagare n'abanyamaguru.

Iyingiyi ni ikinyabiziga gitoya gusa nacyo gitwara abagenzi, iyi ngiyi ni ishyirahamwe ryitwa yego rifite ibinyabiziga bitoya bitwara abagenzi bibavana hamwe bibajyana ahandi.

Iyi ngiyi ni imihanda y'ibyerekezo bitandukanye igendamo ibinyabiziga, yaba iby'abantu bagendamo bagiye gutembera cyangwa se bagiye mu kazi bidatwara imizigo ndetse n'ibitwara imizigo, tukabona n'amapikipiki ndetse tukabona n'imirongo mu muhanda abanyamaguru bambukiramo.

Uyu nguyu n'umuhanda urimo ingeri zitandukanye z'abantu, ukareba amazu akorerwamo ubucuruzi butandukanye, ibinyabiziga bidufasha gutwara imizigo, tukabona ahantu hari ibicuruzwa bitandukanye ibiryo by'amatungo inkoko, inkwavu, inka n'ibindi bitandukanye.

Uyu nguyu ni umuhanda uva ku kiraro kijya mu mujyi ujya Nyabugogo, harimo ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa bisi itwara abagenzi, abantu benshi batandukanye bagiye mu mirimo yabo, hakaba n'umuntu utwaye igare ushobora kuba agiye gushaka abakiriya cyangwa se hari uwo yari yajyanye agarutse mu kazi.

Mu muhanda urimo ibinyabiziga by'ingeri zigiye zitandukanye, nk'ibitwara abantu ndetse ibitwara imizigo, amapikipiki, amapikipiki adufasha gutwara abantu bagiye ahantu hagiye hatandukanye mu kazi gatandukanye.

Uyu nguyu ni umuhanda uva Nyabugogo ujya ku kiraro, tukaba tubona amapikipiki menshi atandukanye, atwaye abagenzi ndetse n'adatwaye abagenzi ariho abayobozi bayo gusa ndetse n'ibimodoka binini, ibinyabiziga bidufasha gutwara imizigo myinshi y'amatoni aremereye.

Uyu nguyu ni umuhanda uri ahantu hasanzwe mu mujyi usanzwe runaka harimo ikinyabiziga kitwa ipikipiki kiriho umuyobozi ukiyoboye kandi akicayeho, ukabona umuhanda mwiza afite inzira y'amazi isa neza.

Aha ngaha turabona umuhanda urujya n'uruza rw'abantu. Ikindi tukabona utunyamizigo, utu ngutu ni utunyabiziga basunika baticayeho bayobora n'amaboko baticayeho ubundi bagatwaraho imizigo.

Uyu nguyu ni umuhanda, harimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, tukaba tureba ikinyabiziga kinini kidufasha gutwara imizigo myinshi, akenshi kidufasha mu gihe harimo bakora ubwubatsi, hakabona n'amapikipiki menshi ndetse n'amagare.

Aha ngaha ni ahantu ahantu heza waruhukira mu gihe waba unaniwe, ni ahantu heza waza ukicara, ugakoresha murandasi ku buryo bworoheje kandi bwiza bwihuse, aha ngaha ni ahantu haba hatuje kuko ibinyabiziga ntabwo byemerewe kuhanyura, ni mu mujyi wa Kigali.

Ahangaha turabona umuhanda usanzwe ugendwamo ibinyabiziga n'ahandi hantu hazwi cyane ko hakunda kubera imyidagaduro, imyitozo ngororamubiri, kugirango ubuzima bw'abantu bukunde bukomeze bugende neza.

Uru nguru ni urugo mboneramikurire y'abana bato rwa viziyo umwana. Aha ngaha ufite umwana muto umujyanayo rwose bakamuha uburezi bwiza bufite ireme, kuburyo ubona ko yateye imbere, azateza n'igihugu cye imbere.

Iki ngiki ni ikibuga cyo gukoreramo imyidagaduro igiye itandukanye uramutse ukeneye gukora imyidagaduro wifuza gukina umupira w'amaguru ndetse n'indi mikino itandukanye, ahangaha nkaza ukayihakorera ubundi ukongera ukagira ubuzima buzira umuze.

Icyapa kiri mw'ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Iki ngiki n'ukibona uzamenye ko mu muhanda urimo uragendamo imbere hari umuhanda wegeye hejuru cyangwa se udusozi.

Iki ngiki ni icyapa gifite ishusho ya mpandeshatu, ku muzenguruko w'umweru muzenguruka w' umutuku, ubuso bw'umweru kirango cy'umukara, iki cyapa kikwereka aho abanyamaguru bambukira, ni ukigeraho uzamenya ko ugomba guhagarara, kugira abanyamaguru babanze bambuke.

Ubu ngubu ni ubucuruzi bw'amafaranga. Ahangaha turabona amafaranga y'amanyarwanda, amafaranga y'amanyamahanga, amadorari bitewe nayo ukeneye uraza ukazana amanyarwanda bakaguhereza amanyamahanga cyangwa ukazana amanyamahanga bakaguha amanyarwanda.

Iki ni icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura, ubuso umweru, ikirango cy'umukara. icyapa kizakwereka ko ahantu ugeze mu muhanda ugezemo harimo udusozi.

Iki ni icyapa kitubwira ko aha ngaha ibinyabiziga bitoya ndetse n'amapikipiki ntago byemewe kuhanyura. Mu gihe uzaba ubitwaye ukabona icyapa kimeze gutya uzamenye ko bitemerewe kuhanyura.

Iki ngiki ni icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara, iki cyapa kikwereka ko umuhanda wigiye hejuru, ugiye kugera ku muhanda wigiye hejuru.

Ibyapa bibiri, kimwe gifite ishusho y'umuzenguruko, ubuso bw'umweru, umuzenguruko w'umuhondo, n'ikirango cy'umukara. Ikindi gifite ishusho y'ukiramende umuzenguruka w'umukara, ubuso bw'umweru, n'ikirango cy'umukara . Icyo hejuru kirakubwira ngo, ntabwo wemerewe kurenza umuvuduko ungana na mirongo itandatu, icyo hasi n'insakazamashusho aha ngaha iyo uwurengeje igufata amashusho ubundi ukazabihanirwa.

Iki ngiki ni icyapa kizakubwira, gifite ubuso bw'umuhondo, umuzenguruko w'umukara ndetse n'ikirango cy'umukara, kiri mu ishusho y'inyuguti ya T, ikirango cyayo, aha ngaha bisaba ko babikubwira ko mu muhanda urimo ugendamo ibyerekezo bihari ari ikerekezo k'iburyo n'ibumoso ari ho hari indi mihanda.

Ikingiki ni icyapa kiri mu ishusho y'urukiramende gifite ubuso bw'umuhondo ndetse n'umuzenguruko w'umukara, ikirango cy'umukara. Ahangaha barakubwira ko uba ugomba kugendera ku muvuduko ungana na mirongo itandatu ku ibirometero mirongo itandatu ku isaha imwe.

Iyi ni ishusho y'ibyapa bibiri bikwereka ,kimwe kirakubwira ngo iyo ukibonye kiriya kiho mirongo itandatu ntago uba wemerewe kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu ikindi kikavuga ko uramutse urengeje uyu muvuduko ko hari insakazamashusho ishobora kugufata amashusho ubundi ukaba wahabwa ibihano .

Aya ngaya ni amatara amenyekanisha guhaguruka mbere cyangwa se nyuma aya ngaya urabona ko iyo harimo ibara ry'icyatsi, ikinyabiziga nicyo kiba cyemerewe kugenda hano harimo ibara ry'icyatsi akaba arimo umunyamaguru ubu hano uhageze harimo'ino bara uri mu kinyabiziga reka abanyamaguru bagende byarangira ukagenda nyuma.

Icyapa uzakunda gusanga mu muhanda, kizakwereka ko ahangaha ari imihanda ibiri ijya mu byerekezo bibiri bimwe, kandi bisa aha ngaha nicyo biba bivuze.

Aha urabona icyapa kirenga kimwe, hari hano kikubwira urakaza neza muri Repubulika y'u Rwanda, hakaba ikindi kikubwira ngo akarere ka Gicumbi n'ikimenyetso kikwereka ko ari ugukomeza imbere.

Aha ngaha turareba icyapa kiri mu ishusho ya kare ifite ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru, hakaba harimo inyuguti ya "p" ndetse na bisi nini. Aha ngaha niho za bisi na za oto bisi zihagarara.

Aha ngaha hari icyapa cyo mu ishusho ya mpande eshatu, gifite umuzenguruko w'umutuku n'ubuso bw'umweru, mu kirango cy'umukara icyapa kikaba kikubwira udusozi two mu muhanda aho imihanda yegeye hejuru.

nk'igice ni icyapa gifite umuzenguruko w'umukara ubuso busa n'icunga rihishije babona ko ikirango kiri mu ishusho y'inyuguti nya ndetse n'kibona uzamenye ko mu muhanda uri kugendamo hari iburyo bwawe undi muhanda ushamikiyemo

Iki ngiki ni icyapa gifite ubuso bw'umuhondo, ikirango cy'umukara harimo ikinyabiziga ibinyabiziga bine, aha ngaha niho bakubwira ngo ugenda gake, mu gihe ukibonye ujye ugenda gake kugira ngo hataza kugira ibibazo uteza cyangwa se witeza.

Iki ni icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu kikaba gifite umuzenguruko utukura n'umweru, ubuso bw'umweru iki cyapa uzagisanga mu muhanda.

Iki ni icyapa kiri mu ishusho y'urukiramende umuzenguruko utukura ,ubuso bw'umweru ikirango umutuku ndetse n'umukara .Iki cyapa kikubwira ko iriya pa iciyemo akarongo kaberamye aha ngaha ntago wemerewe kuhahagarara ntabwo wemerewe kuhashyira ikinyabiziga.

Ikingiki ni icyapa kiri mu ishusho y'urukiramende gifite ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Ahangaha barakubwira ko ariho za bisi ziba zigomba guhagarara. Iyo ugeze hano uri mu kinyabiziga cya bisi, niho uhagarara.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga kiba gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Ahangaha iki cyapa kizakubwira ko nukibona ibinyabiziga by'ibipine bine bitemewe kuhanyura cg se kuhagenda

Iki ni icyapa gifite ishusho y'umuzenguruko, umuzenguruko utukura w'ubuso bw'umweru nk'ikirango cy'umukara. Iki cyapa uzagisanga mu muhanda nukinyuraho, ukabona icyapa kimeze gutyo, uzamenya ko kikubwira ko umuhanda uri kugendamo ukatira ibumoso. Aricyo cyerekezo ugomba kunyuramo.

Umuhanda urimo ibyapa bibiri, biri mu ishusho y'umuzenguruko. Icyapa cya mbere kirakubwira ngo gukatira hariya ntibyemewe, uhageze ukabona bimeze kuriya gukatira ibumoso ntibiba byemewe. Icyapa cya kabiri cyo kivuga ntihanyurwa, uriya muhanda ntabwo uba wemerewe kunyurwamo n'ibinyabiziga.

Iki ngiki ni icyapa gifite ishusho y'umuzenguruko, kikaba gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, amagambo, ikirango cy'umukara, hakaba n'ikindi cyapa kiri mu ishusho y'urukiramende kikubwira ngo imbere yawe hari insakazamashusho, mu gihe waba urengeje umuvuduko wa mirongo itandatu yagufata amashusho.

Icyapa kiri mu ishusho y'uruziga gifite ubuso b bw'ubururu ikirango cy'umweru, iki cyapa kimenyesha inkomane banyuramo bazengurutse, aha ngaha kuzenguruka bitewe n'aho urimo urajya biba ari itegeko, iyi ngiyi ni inkomane banyuramo bazengurutse.

Iki ngiki ni icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Ikingiki nuzakibona uri mu muhanda uzamenyeko uwo muhanda urimo uragendamo iburyo n'ibumoso hashamikiyeho utundi duhanda dutoya.

Iki ngicyi ni icyapa kiri mu ishusho ry'umuzenguruko gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru' ikirango cy'umukara, iki cyapa uzakibona uri mu muhanda, nukibona uzamenye ko aha ngaha bakubwira ngo amagare ntiyemerewe kuhanyura, mu gihe uri ku igare ntabwo uzaba wemerewe kuhanyura.

iki ngiki ni icyapa gikoze mu ishusho ya mpande eshatu gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara, iki ngiki nukibona uzamenye ko imbere yawe gato harimo harakorerwa imirimo y'amaboko bashobora kuba bari nko kubaka umuhanda cyangwa se bari gukora indi mirimo.

Iki ni icyapa kiri mu ishusho y'uruziga, gifite umuzenguruko w'umukara n'umweru, kiba gifite umuzenguruko nanone utukura, kiba gifite ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Iki cyapa kiravuze ngo aha ngaha guhindukira ntabwo byemewe.

Iki ni icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara kikwereka ko ahantu uri hari indi mihanda ibiri, cyangwa se hakaba hari umuhanda ukomeza aho urimo urajya, umuhanda iburyo bwawe ndetse n'ibumoso.

Ikingiki ni icyapa kiri mu ishusho y'urukiramende gifite umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru ndetse n'umukara. Ikingiki nukigeraho uzamenya ko imbere yawe ugeze ahantu abanyamaguru bagendera mu mu gihe bari kwambukiranya umuhanda, aho abanyamaguru bambukira.

Uyu nguyu ni umuhanda ujya ahantu runaka, ukaba uriho icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Iki kirango ni inyuguti ya pa icishemo akarongo kaberamye. Kavuga ko iki cyapa hano utemerewe kuhahagarika ikinyabiziga. Mu gihe uhuye nacyo uzamenya ko utemerewe kuhahagarara.

Uyu nguyu ni umuhanda mwiza mugari, ahangaha ukabona n'ahantu abantu basanzwe bicara bategereje ibinyabiziga ngo bize bibajyane, tukabona n'icyapa gikoze mu ishusho y'umukiramende, umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'ubururu ikirango cy'umweru, ikintu ngo aha ngaha ni ho hantu niho, ni ubwoko bw'ibi binyabiziga bugomba guhagarara.

Ahangaha turabona imihanda y'ibyerekezo bitandukanye tukabona icyapa kiri mu bwoko bw'shusho y'urukiramende ifite umuzenguruko wmweruubuso bwuubururu ikirango cy'umutuku ahangaha barakubwira ngo izi modoka ibinyabiziga bitoya ntabwo byemewe guhagarara umwanya munini.

Aha ngaha turabona icyapa kiri mu ishusho y'umuzenguruko, gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru, kinyujijemo umurongo utukura. Aha ngaha baba bakubwira ngo ntabwo wemerewe kunyura muri iyi mihanda yose; uko bayitwereka.

Iki ngiki ni icyapa kiri mu ishusho ya mpandeshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Iki cyapa kirakubwira ngo aha ni ahantu habugenewe abanyamaguru bagomba kwambukira, ahangaha uhageze itonde ugende gake uhagarare urebe niba nta munyamaguru uri kwambuka ubone kugenda.

Iki ngiki icyapa kiri mu ishusho y'umuzenguruko, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara, kirimo umubare makumyabiri, iki cyapa kizakubwira ngo iki? nugisanga mu muhanda uzamenya ko kikubwira ngo ahangaha utegetswe kugendera ku muvuduko utarenga makumyabiri.

Akangaka ni agace keza karimo amazu meza y'icyerekezo agezweho kandi gatuje . Ibipangu byiza hari kugendamo abantu babiri bashobora kuba bari kujya mu kazi kabo cyangwa se bari kujya mu ngo zabo aho baba.

Uyu nguyu ni umuhanda munini witaruye hakaba hariho icyapa kiwuranga na nimero y'uwo muhanda ahangaha ushobora kuba ahaturiye umuntu yakubazaza ngo utuye he ukamubwira iyi mibare ubundi akabasha kukugeraho muburyo bworoshye.

Ahangaha ni ahantu mu Mujyi wa Kigali. Mu Giporoso dusangamo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye; amapikipiki, amabisi, ibinyabiziga bitwara imizigo, amagare, n'ibindi bintu byinshi kugira ngo babashe gushakisha ubuzima bose.

Iyi ni inyubako nini cyane yisanzuye, iri ahantu heza handitseho murakaza neza, hariya ni amasoko agiye atandukanye ushobora kuba wajya guhahiramo ibintu byinshi bitandukanye ibyo kurya n'ibindi bitandukanye.

Uyu nguyu ni umunara udufasha mu bintu bijyanye n'itumanaho, mu gihe abantu baba bashobora kuvugana umwe ari mu ntara imwe undi ari mu yindi, umwe ari mu gihugu kimwe undi ari mu kindi, iminara idufashamo muri ubwo buryo bw'itumanho.

Ibi ngibi uzakunda kubibona mu muhanda. Ni ibyapa bigari biba biri mu ishusho y'urukiramende biranga cyangwa se bivuga agace uherereyemo. Aha ngaha ni icyapa, gishobora kuba ari Kigali kicukiro, mirongo itanu na gatandatu.

Aya ngaya ni amazu meza y'ubucuruzi bugiye butandukanye, tukareba umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, amapikipiki atwaye abagenzi abajyanye mu kazi kabo kagiye gatandukanye ka buri munsi, kugira ngo barusheho kwiteza imbere.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza cyane yanditseho Biza, baratubwira ko ari Kimironko ku murenge. Ubwo abaye ari umurenge wa Kimironko ukeneyemo ko bagufasha muri gahunda zitandukanye, wajyayo ukareba ibyangombwa byawe n'ibindi bintu byose waba ukeneye.

Ni inyubako nini ikorera mu mujyi wa Kigali ahantu hagiye hatandukanye wasangamo ibikorwa remezo byinshi bitewe n'ibyo ukeneye ukaba waza kubihashakira, amazu atanga ubwishingizi, ahantu bavura amenyo n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye.

izi zingi ni imipikipiki zidufasha kujyana cyangwa se kutuzanira ibintu tuba twaguze ku buryo bwa murandasi, bakatwereka n'ahandi haba ubucuruzi bw'amafaranga ushaka guhinduranya amafaranga yo mu gihugu kimwe cyangwa ikindi ujyayo bakagufasha muri iyi nyubako.

Ikindi ni nyubako nziza iherereye ku Gishushu mu karere ka gasabo hakaba hariho agaseke kagaragaza ko ari umuco nyarwanda inzu uhasangamo ikorerwamo ibikorwa bitandukanye byinshi n'ibya leta.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye , amatara yo mu muhanda, abagenzi bagenda n'amaguru, n'abagenzi bagenda ku mapikipiki, abagenda mu binyabiziga bitwara abagenzi ndetse n'abagenda mu binyabiziga byo gutemberamo.

Aya ngaya ni amazu meza yubatse ku buryo bw'iterambere kandi bugezweho, ushobora kuza kuba waturamo cyangwa se ukayagura ukiberamo n'umuryango wawe cyangwa se wowe n'abawe bose mwaba muri kumwe.

Aha ngaha ni kuri RDB, ni amanyubako meza ari ku Gishushu, adufasha ibikorwa bigiye bitandukanye, amazu ya Leta meza agaragaza igihugu neza, agaragaza umugi, Kigali yacu Kigali ikeye.

Izi ni izindi nyubako nziza zo kubamo ushobora kuba waza ukabamo wowe n'abawe n'umuryango wawe ndetse n'inge zi zitandukanye mukomeza mukishimira ubuzima bwiza.

Uyu nguyu ni umuhanda urimo ikinyabiziga kiza kigezweho cy'umukara, gitwara abantu gusa kidatwara imizigo, nawe uramutse ukeneye kugura kiriya kinyabiziga kiza kandi kigezweho cyagufasha mu kazi ka buri munsi wajyayo mu Kagera Moto.

Akangaka ni agace runaka kagezweho keza, tubonamo kanyuramo abantu karimo n'umuhanda ugendwamo n'ibinyabiziga, ahangaha tukabona ipikipiki iriho umuyobozi uyiyoboye ayicayeho.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza yubatse ku buryo bw'iterambere kandi uburyo bunogeye igihugu, iyi nyubako ushobora kuba waza ukayituramo wowe n'umuryango wawe cyangwa se wowe niba uri wenyine, hakaba hari n'umwanya ibinyabiziga byawe byajya bihagararamo.

Amazu meza ushobora kuba wabamo cyangwa ukayagura. Mu gihe ukeneye inzu nziza yo kubamo, ahangaha wahaza ukahaba wowe n'umuryango wawe, cyangwa se wowe wenyine bitewe n'akazi kawe, ukabaho neza kandi utekanye.

Iyi ngiyi ni ishusho igaragaza uburanga cyangwa se ubwiza bw'igice kimwe na kimwe, kigiye kirimo amazu meza yubatse ku buryo bw'iterambere, ku buryo igihugu gikeneye kandi cyifuza, kureba tugahita tubona ko igihugu kiri mu iterambere.

Turabona igipangu cyiza kinini kirimo inyubako nziza kandi igeretse, ushobora gusanga iyi nyubako igurishwa, ari iyo kugurisha cyangwa se ari iyo gukodesha abaye ariyo gukodesha waza ukayibamo ukajya wishyura amafaranga baba bagusaba ku kwezi, cyangwa se ariyo kugura ukaza mukavugana ibiciro nabwo ukayigura.

Iyi ngiyi ni inzu nziza ifite kipangu kigezweho cyubatse ahantu heza h'iterambere kandi hateye imbere, gishobora kuba ari igipangu kigurishwa cyangwa se gikodeshwa ukaba waza gukodesha ukabamo.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza ifite igiti cy'umukindo kiza imbere yayo ndetse urabona ko hari ibyapa bibuza kuhahagarara .Mu gihe uje utwaye ikinyabiziga ukabona ahantu hari icyapa kimeze kuriya ntago uba wemereye kuba wahagarika ikinyabiziga.

Iki ngiki ni ikiraro cyambukiranya umuhanda kigendaho ibinyabiziga bigiye bitandukanye; amapikipiki, ibinyabiziga bitwara abantu, ibitwara imizigo ntabwo byemerewe kuhanyura.

Iyi ngiyi ni imihanda igiye itandukanye ijya mu nce zigiye zitandukanye. Tukareba umuhanda uca munsi y'ikiraro cyambukiranya kijya ku Muhima. Umuhanda wo munsi ukaba ujya Nyabugogo ukaba ari umuhanda ugezweho w'iterambere.

Uyu nguyu ni umuhanda urimo kinyabiziga kirekire kandi kigari kidufasha gutwara imizigo iremereye amatoni menshi atandukanye, kikatugereza aho dukeneye ko bigera yaba bicuruzwa waba uvuye kurangura n'ibindi bintu bitandukanye.

Uyu nguyu ni umuhanda w'i Remera, aha ngaha niho ubona ko hari amatara ndanga kugenda mbere kw'ibinyabiziga no kugenda mbere kw'abanyamaguru, aha ngaha urabona ko bari bacanye ko harimo abanyamaguru, aribo barimo baragenda bambuka umuhanda ubundi ibinyabiziga birabanza bigategereza nabyo byagerwaho bikabona kugenda.

Iki ngiki ni ikinyabiziga cy'ibiziga bibiri cyangwa se ipikipiki, kirimo kiragenda ahantu hatandukanye hariho umuyobozi wacyo ukiyobora akicayeho, ashobora kuba agiye gushaka abagenzi kugira ngo akomeza gushaka amafaranga cyangwa se agiye mu zindi gahunda zigiye zitandukanye.

Ahangaha ni umuhanda uherereye ahantu hitwa Kicukiro ndetse ahangaha turabona ikinyabiziga kiri guturuka munsi y'ikiraro, kiriya ni ikiraro cyiza kigezweho kigaragara neza giherereye Kicukiro.

Uyungiyi ni umuhanda nyabagendwa ugendwamo amapikipiki, amagare, ibinyabiziga, ibikururana, ibya rimoruke n'ibindi bisanzwe. Ahangaha batweretse ku ruhande ni ahantu ho guhagarara, ahangaha kuhahagarara biremewe.

Iyi ni imihanda myiza minini, migari. Urimo ibinyabiziga by'ubwoko bugiye butandukanye, ibigendamo abantu nibyo turimo turareba. mugihe nawe waba uri mumuhanda, ahangaha hasa neza nawe wahagendera.

Uyu nguyu ni umuhanda uri kimihurura ujya mu mujyi aha ngaha urahasanga icyapa kiri mu ishusho y'urukiramende n'ikindi kiriho umwana barimo barakurura, hariya hakubwira ko hari ikigo cy'ishuri wahagera ukagenda buke ukabanza ukamenya ko abanyeshuri badakeneye kwambukiranya umuhanda.

Umuhanda uri mu ibara ry'umukara, ukaba urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, imodoka iri mu ibara ry'umweru, amapikipiki yicayeho abamotari ndetse n'abo batwaye, bose bakaba bambaye n'ingofero zabugenewe ziri mu ibara ry'umutuku, hirya yabo hakaba abantu barimo kugendera mu tuyira twabugenewe tw'abanyamaguru.

Uyu nguyu ni umuhanda ujya ahantu hatandukanye, tukaba tubonamo ipikipiki iriho umuyobozi uyoboye ayicayeho ndetse atwaye n'umugenzi. Ashobora kuba amujyanye mu rugo, ashobora kuba amujyanye ku kazi, byose biterwa.

Ubu nguyu ni umuhanda munini mwiza ndetse hari n'indi imyanda iri munsi y'ikiraro iki ni ikiraro cya Kicukiro tukaba tureba icyapara kiri mu ishusho y'umuzenguruko gifite umuzinguruko w'umweru ubuso bw'ubururu n'kirarango cy' kivuga ko ari inkomane banyuramo bazengurutse.

Ni umuhanda mwiza, mugari, uva ahantu hamwe ujya ahandi, tukaba tubona n'imirongo yera abanyamaguru bambukiramo, benshi bambukiranya umuhanda hariya uhageze ukabona umunyamaguru witeguye kwambuka cyangwa se uri kwambuka uba ugomba guhagarara akabanza agasoza.

Umuhanda munini, mugari ufite igisaha kinini, harimo ikinyabiziga gitwara imizigo kandi ikinyabiziga gitwara imizigo kigomba kuba gitwikiriye ku buryo imizigo itagenda igaragara.

Umuhanda urombereje urimo imirongo icagaguye ahangaha iyo ugeze hano hari imirongo icagaguye ikinyabiziga kiba cyemerewe kunyura ku kindi, urabona ko hari n'inzira kuhande y'abanyamaguru yagutse.

Uyunguyu ni umuhanda ahangaha tureba hari imirongo akaba ariho abanyamaguru bambukira, tukabona n'amatara ndanga kugenda mbere no kugenda nyuma, hakaba harimo ikimenyetso kigaragaza ko abanyamaguru bagomba gutambuka, ahangaha utwaye ikinyabiziga agatambuka mbere haba hari icyuma kigufata amashusho ubundi ukazabihanirwa.

Uyu nguyu ni umuhanda munini mugari, uri kugenderamo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye. Ibinyabiziga binini bitwara imizigo myinshi, amatoni menshi. Ndetse n'ibinyabiziga bikoreshwa mu bwubatsi, cyangwa se no kuba byajya no kurohora ibindi.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ufite amazu meza, ibinyabiziga byo mu bwoko bwa bisi bitarwa abagenzi, amapikipiki atwara abagenzi abajyanye mu kazi kabo ka buri munsi.

Uyu nguyu ni muhanda harimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aha ngaha tukareba ikinyabiziga gifite ibara ry'umutuku, gitwara abantu mu kazi kabo kagiye gatandukanye, iki ngiki ntabwo gitwara imizigo mu gihe uzaba ugifite gitwara abantu gusa.

Uyu nguyu ni umuhanda munini, mugari, ujya ahantu hatandukanye, ushobora kuba ujya mu mujyi wa Kigali, imbere tukabona aho abanyamaguru bambukira hariya iyo uhageze utwaye ikinyabiziga urabanza ugahagarara niba abanyamaguru bahari bakambuka ukagenda nyuma.

Imihanda migari myiza kandi ifite isuku, inkomane banyuramo bazengurutse, aha ngaha turabona abantu b'abanyamaguru bari kwambukiranya umuhanda, aha ngaha niho abanyamaguru bambukiranyiriza umuhanda, ugeze hano ukabona abanyamaguru bari kwambuka ntabwo uba wemere kurenga uwo murongo w'umweru.